Ububiko bw'ibiribwa bitandukanye, umuceri ndetse n'ibindi. Harimo abantu b'abagore bane, bigaragara ko hari uwo bari gupimira.

Umuhungu wambaye ikabutura ya kaki n'agasengeri gatukura n'ingofero. ahetse ipompo arimo aratera umuti wica udukoko igihingwa cy'intoryi hateyemo n'insina.

Hano hari ibyuzi bakoze bororeramo amafi, hari umugabo ufite akantu kameze nk'agatebo ndetse karimo n'ifi.

Abantu bafashe ikintu kimeze nk'urushundura kirimo utuntu tw'umutuku tw'inyanya, ku ruhande hahagaze abandi benshi barimo barashungera.

Umusore wambaye isaha ku kuboko, wirabura cyane. Afite umusatsi mukeya ndetse mu ntoki afashe ibase iri mu ibara ry'ubururu. Inyuma ye hari ubuhinzi bw'urutoki ndetse hari n'ikidarazo gisakaje amabati.

Igishanga kirimo ibyuzi, bimeze neza bigaragara ko ibyo byuzi bororeramo amafi, ubworozi bw'amafi nibwi kuko nabwo buzana amafaranga.

Ahantu hasa neza cyane, hari ibyuzi, bagiye babumbira bakubakamo utuzu, bororeramo amafi kandi bitanga umusaruro mwiza.

Ibyuzi by'ibibumbirano biragaragara ko hano ari mu gishanga babumbiriye amazi kugira ngo babashe kubona ukuntu bororeramo amafi, mu mpande zawo hari ibiti ubona ko bidatoshye.

Abantu bane bahagaze ku nkengero z'amazi, bafite indobo z'ubururu n'umuhondo, bose barunamye barimo baravoma ayo mazi, ku ruhande rwabo hari ubwato bubajwe mu biti.

Mu buhinzi n'ubworozi harimo abahitamo kwihingira ibijyanye n'imbuto, aha hari abantu barimo baranka ikawa baba basaruye kugira ngo bazayigurishe itunganywe.

Abagore batatu ndetse n'umugabo umwe wambaye ingofero bari mu bihingwa by'umuceri barimo barabibagara kugira ngo uzakure neza ndetse were umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bw'ikawa mu Rwanda buri kugenda butera imbere n'ubwo ahantu hose itahera, nk'uko tubibona hano hari ubwo buhinzi bw'ikawa ariko zikiri ntoya.

Mu karere ka Nyagatare, ni kamwe mu turere duhinga umuceri, hano hari ubuhinzi bwa wo bigaragara ko bayoboreyemo amazi menshi kugira ngo uzere neza.

Ubuhinzi bw'ikawa mu Rwanda, ni bumwe mu buhinzi buzana amafaranga menshi mu gihugu. Imbere y'iyi kawa icyapa ki ko hari ubuhinzi bw'ababyeyi.

Inzu ikorerwamo ububiko ikanatunganyirizwamo imiti, harimo umuntu wambaye itaburiya iri mu ibara ry'icyatsi wafashe mu byatsi biri mu kintu.

Mu Rwanda haba ubuhinzi bw'icyayi, ariko hari hamwe hazwi cyane ko hakunda kuba icyo cyayi, hari Akarere ka Nyagatare, Rulindo ndetse na Nyaruguru.

Umuti wifashishwa mu kurinda ko inkoko zakwangirika, ukaba ukoreshwa n'abantu bafite ubworozi bw'inkoko bwishi.

Icyapa kigaragaza uburyo hategurwa umuti wifashishwa abavura amatungo, yaba inka, ingurube, ihene ndetse n'andi matungo.

Amacupa menshi atandukanye apfundikije imifuniko y'umweru ndetse andi apfundikije imipfundikizo y'umuhondo andi ay'umukara. Biragaragara ko ari imiti y'inka.

Ahantu habikwa imiti itandukanye iri mu bikoresho bifite ingano zitandukanye, hari imwe ibitse mu dukarito.

Iyo ibihingwa byawe byafashwe n'indwara ni ngombwa ko ugana ahacururizwa imiti maze ukayigura ukajya kuyitera mu bihingwa byawe.

Icyumba kirimo ububiko bw'imiti itandukanye, imwe iri mu ducupa turiho amagambo agaragaza uko ikoreshwa duteretse mu kabati.

Amacupa menshi arimo ngano zitandukanye; harimo ay'umweru ndetse n'abafite imipfundikizo y'umuhondo. Aya macupa arimo imiti yifashishwa mu kwica udukoko tuba twagiye ku bihingwa.

Abantu batandatu abagabo batatu, n'abagore batatu, barasutamye mu byatsi barimo baratera ibiti, hirya hari undi mugabo uhagaze inyuma utagaragara neza.

Ahakorerwa ubutubuzi bw'imbuto ndetse n'ibindi bihingwa, hasakaje ibiti ndetse hirya haragaragara abantu babiri bahicaye.

Abantu b'igitsina gabo bicaye hasi kutaka, bamwe bambaye utujire n'igofero imbere yabo hahagaze umuntu w'umugabo ufite icyo ari kubabwira.

Muri parike mpuzamahanga y'igihugu cy'u Rwanda, yitwa akagera, habamo inyamaswa zitandukanye, hano hari impara, nayo ni imwe mu nyamaswa ziba muri iyo pariki.

Umudamu ufite imisatsi izinze, yambaye isaha, afite ikimera mu ntoki, inyuma ye hari undi mugabo na we wambaye umupira usa nk'uwe ndetse n'undi muhungu wambaye umupira w'umuhondo afite agacupa k'amazi.

Mu cyaro akenshi usanga abantu bose baba bateka mu ziko, ahenshi ntiharatera imbere ku buryo usanga abakunda kugenda bashaka inkwi zo gucana, uyu muhungu yikoreye inkwi agiye gucana.

Abahinzi bane barunamye, harimo umukobwa wambaye ijipo y'ubururu, barimo barabagarira umuceri kugira ngo bazabone umusaruro mwiza, inyuma yabo haruguru hari akayira k'igitaka.

Umugore wakenyeya igitenge yiteze n'ikindi mu mutwe arunamye arimo arabagarira imboga yahinze kugira ngo zirusheho gukura kandi zimere neza zizatange umusaruro.

Igishanga cyiza cyane ubona kibereye amaso, hateyemo ibirayi ni ahantu heza ku mpande zacyo hariho udusozi twiza ariko tutari tureture.

Igishanga kiza cyane ubona ko kigaragara neza. Hagati harimo akayira kanyurwamo n'abantu. Hateyemo ibigori bitarakura ndetse hari n'ahari intabire bataratera imyaka.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bwiza cyane kuko iyo zimaze kwera zitanga umusaruro, ukabona izo kurya ndetse n'izo kujyana ku isoko bityo ukabona amafaranga, hirya hari amahema azitiye ahantu batuburira imbuto.

Aha ni mu gishanga, hakaba hari ubuhinzi bwi'mboga zizwi nka mashu, ariko bigaragara ko zitigeze zishimira ubutaka zihinzeho, ntabwo zisa neza.

Ni byiza guhinga imboga kuko bizana inyungu, aha turahabona ubuhinzi bw'imboga buzwi nk'amashu ndetse hagati yazo hagiye harimo utuyira.

Hano hari ibyatsi bitari birebire cyane, hagaragara kandi n'igihingwa cyikigori cyendakuma ngo bagisarure.

Ishusho igaragaza igihingwa cy'ibigori, bigaragara ko ibi bigori bimeze neza, bitohagiye, kandi bishishe. Guhinga ibigori ni byiza kuko bituma urugo rubona ibyo kurya.

Ahantu hatari ibyatsi byinshi, hateye urubingo. Hirya yaho hari, ubuhinzi bw'urutoki rwinshi cyane. Rutanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibigori ubona ko bisa neza cyane rwose bitoshye bizagira umusaruro mwiza ni byiza ko nawe wahinga ibigori kugira ngo uzabone ibyo kurya.

Ahantu heza cyane ubona harambitse hari ibyatsi bigufi ndetse n'ibindi bimeze nk'ibiti birebire, hirya cyane hari ishyamba ariko rifite ibiti bitari birebire.

Umusozi uteyeho ishyamba ryinshi ndetse biragaragara ko iryo shyamba ridatoshye ntabwo risa neza.

Aha ni ahantu heza cyane hagaragara amazu asakaje amabati atukura. Hirya, hino hari igiti ndetse hakurya hari ibiti byinshi ubona ari ishyamba.

Ahantu hari abantu babiri bari kunyura mu kayira k'agatsibanzira, berekeza imbere yabo hari ibiti birebire bifite amashami menshi.

Ahantu heza hagaragara ko hari ibyatsi bitoshye, hari imisozi irimo ibyatsi, amashyamba ndetse n'imirima abaturage bahingamo, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije.

Iyi shusho, iratwereka, igitebo kirimo, inyanya nyinshi, nini. Harimo kandi ikiganza cy'umuntu gifashe urunyanya rumwe, mu ntoki, bisa nkaho ari kureba ko yazigura.

Ahantu bakorera ubutubuzi bw'imboga ndetse n'imbuto, hari abantu babiri bambaye udupfukamunwa, bahagaze inyuma y'agatanda karimo imboga z'ingemwe.

Umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi, yambaye kandi n'uturindantoki kimwe n'agapfukamunwa, afashe mu ntoki umwembe inyuma ye, biragaragara ko ari mu murima uhinzemo iyo myembe.

Umugore urimo aramwenyura; yambaye akagofero k'umupine ndetse mu mufuka w'itaburiya yambaye harimo agacupa k'amazi; afashe ku rusenda rwabaye umuhondo ameze nk'urimo ararusarura.

Tuge dukunda guhinga amashu kugirango tuyarye maze turusheho kugira ubuzima bwiza. Aya mashu biragaragara ko ashishe kandi ameze neza.

Mu biribwa turya, tuge twibuka no gushyiramo imbuto n'imboga, hano hari ibigori, karuti, urusenda, inkeri, ibitunguru, puwavuro ndetse n'inanasi.

Umugabo urimo araseka yishimye, yambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, afite mu ntoki imbuto zitwa amaronji arimo arerekana.

Abantu b'igitsina gore bahagaze mu gihingwa cyitwa ibihwagari, bifotoza, ibyo bihwagari bikaba bikorwamo amavuta yitwa ubuto.

Umumama mwiza cyane ubona w'inzobe wishimye yiteze agatambaro wo mu mutwe, afashe telefone ye mu ntoki arimo araseka hari imibare arimo arakanda muri telefone ye.

Igihe ugiye gutegura amafunguro yo kurya, jya wibuka kongeramo imbuto ndetse n'imboga kuko nabyo bigira akamaro. Hano hari amashu ndetse n'izindi mboga zitandukanye.

Mu buhinzi n'ubworozi, umuntu ashobora no gukora umushinga wo guhinga ibiti bya avoka kandi bigatanga umusaruro. Nkuko bigaragara hano, izo voka ni nyinshi kandi uwazigurishije yabonye amafaranga menshi.

Aka ni akarima k'igikoni, harimo imboga zitandukanye z'ubwoko bwinshi: nk'ibitunguru, beterave ndetse n'izindi.

Umusaza bigaragara ko akuze yambaye ingofero y'umupine, iri mu ibara rya kake. Arimo aruhira ibihingwa bye yahinze kugira ngo bikomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubu ni uburyo bukoreshwa mu gice cy'ubuhinzi n'ubworozi, uyu mudamu arimo aruhira inanasi ze yateye kugira ngo zikure ndetse zizatange umusaruro mwiza.

Ubuhinzi n'ubworozi bumaze gutera imbere mu Rwanda, hano hari umugabo wambaye imyenda y'umukara afite ikintu arimo aruhira ibihingwa.

Ubuhinzi n'ubworozi haragaragara umusozi muremure uriho ishyamba ndetse mu kibaya harimo inyanya ziteye neza ku kumurongo, harimo n'uburyo bugezweho bwo kuzuhira.

Ahantu heza cyane harimo ibidukikije, ibihingwa nk'urutoki, hari n'amazu asakaje amategura.

Ahantu ubona ko ari heza cyane, haragaragara ibyatsi byiza bitoshye ndetse n'ikiyaga kiri hagati yaho nawe rero wajya kuhasura ukishima.

Imisozi itari miremire cyane, iriho ibintu by'ibidukikije bitandukanye nk'ibiti ndetse hagiye harimo n'ibihingwa byahinzwe n'abaturage.

Imisozi miremire, hejuru yaho mu mpinga hateye ibiti. Harimo ibyatsi byinshi bitandukanye, ndetse hari na hamwe bigaragara ko hari amaterasi.

Ahantu heza hakaba hari ibidukikije; amazu, insina zitanga ibitoki barya, ibiti ndetse hari n'igiti kinini gifite amashami maremare.

Ahantu heza cyane, hagaragara imisozi igiye iteganye, iriho ibyatsi bitoshye ndetse hari n'inzu isakaje amabati y'umweru igaragara.

Aha ni ahantu heza cyane, harimo udusozi dutoya turi hagati mu mazi, iki ni ikiyaga giherereye mu Karere ka Burera.

Ahantu heza cyane hari ibintu byinshi by'ibidukikije, hari n'ubuhinzi bw'urutoki ndetse hari n'inzu isakaje amategura.

Ahantu heza cyane hari umugezi utemba urimo amazi asa nkayo muri nyabarongo; ku misozi harimo ibiti ndetse n'ahandi hahinze.

Ikibaya kimeze neza bigaragara ko hari ibyatsi bitoshye, hejuru hari ikirere kirimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu.

Gukora ubworozi bw'inka ni byiza cyane kuko bizana inyungu kandi bigatanga amafaranga menshi, iyi nka ifite ibara ry'umweru irimo irarisha ubwatsi.

Hano hari inka z'ibihogo ziteze amahembe maremare, harimo kandi abaganga bashinzwe kuzivura bazwi ku izina ry'abaveterineri mu ndimi z'amahanga.

Mu buhinzi n'ubworozi umuntu ashobora gukora umushinga wo korora inkoko nka zimwe turi kureba hano zirimo: amasake ndetse n'inkokokazi. Izi nkoko ni nyinshi cyane kandi zitanga umusaruro ku buryo bufatika.

Ubuhinzi n'ubworozi mu bworozi ni byiza ko wakorora amatungo atandukanye, amaremare ndetse n'amagufi, hano rero hariho ubworozi bw'amatungo magufi buzwi nk'ubworozi bw'inkoko.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi butuma umuntu ahora afite amafaranga kuko uhora ugurisha amagi ziba zateye ndetse ukaba warya na kanyama.

Hano haragaragara ishusho yerekana ubworozi bw'inkoko, hariho imishwi ikiri mitoya, hari n'utuntu imbere yaho turimo ibintu tutazi.

Inka y'ikibamba iri mu kiraro bigaragara ko bayoroye neza irabyibushye ,ndetse imaze n'iminsi ibyaye, kuko ifite icebe rinini hari imbere aho irira.

Mu nka habamo amabara agiye atandukanye, urugero hari inka y'ikibamba, inka y'igaju nk'izigaragara hano, harimo n'umuntu wambaye ingofero ndetse n'undi urimo arakama.

Ubworozi bw'inka ni bwiza cyane, hano hari ubworozi bw'inka z'ikibamba ziteze amahembe maremare yigondoye ,inyuma y'ikiraro hari abantu batatu babiri bambaye imyenda y'ubururu undi yambaye umweru.

Ubushyo burimo inka z'ikibamba, amagaju, ibihogo, zikaba zifite n'umushumba uri inyuma hirya, ziri mu ifamu irimo igiti gifite amashami.

Aha barimo baratwereka ingurube ifite ibara ry'umukara; ikaba yarabyaye ibibwana bidasa nka yo kuko byo bifite ibara rya kacyi.

Inka nziza ibyibushye ariko y'ikimasa iri ahantu yagenewe kuba, ifite iherena ku matwi ndetse iyi nka yitwa inka y'umusengo.

Itungo ry'ingurube ni bumwe mu bworozi umuntu akora, bukamwungura vuba nk'uko iyi ngurube ubona ko yakuze vuba kandibyibushye, nyirayo ayigurishije bamuha amafaranga menshi.

Ni byiza kugi nawe umushinga wakora uzajya uguha amafaranga mu buzima bwa buri munsi, hano hari umushinga w'ubworozi bw'inkoko kandi ni mwiza kuko inkoko zitanga amafaranga ndetse n'amagi kandi turabizi ko ari meza kubuzima.

Ubu ni ubworozi bwa kijyambere bw'inka, zihagaze ahantu hubakishije imbaho, inyuma harimo izindi nka hasakaje amabati.

Ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, ni kimwe mu bice bigize ubukungu bwarwo. Hano haragaragara umuntu wakoze umushinga mwiza wo korora inkoko kandi butanga umusaruro.

Izi ni inkoko nyinshi bakingiranye ahantu, hazitirwe ibyuma bigiye bisobekeranyije bizwi nka senkenge. Umuntu waziguze agiye kuzorora, akore umushinga ubyara amafaranga w'ubworozi bwazo.

Mu Rwanda bakunda guhinga igihingwa cy'ibigori ariko hari uduce tuzwi cyane ko dukunda kugihinga urugero nka Nyagatare, Musanze, Burera n'ahandi.

Imbuga isasheho amapave bigaragara ko amaze gusaza hanitsemo ihema ririho ibigori ndetse ku ruhande hari n'undi muntu urimo atambuka utagaragara neza.

Aba bantu bahagaze imbere y'ibigori ndetse hari n'abana batoya ubona bari gushungera, ibigori ni bimwe mu biribwa abantu barya.

Mu Rwanda ubuvuzi bwateye imbere, dore ko byageze no mu kuvura amatungo. Uyu muntu arimo aravura inka bigaragara ko amaze kuyibaga ari kuyidoda.

Hano hari inyamaba baze, harimo n'ibiganza byambaye uturindantoki bigaragara ko ari ababishinzwe bagiye kuzipima kugira ngo barebe ko zujuje ubuziranenge.

Iki ni ikiraro cy'inka ndetse kirimo inka, hari n'abantu b'abaganga b'amatungo, umwe arimo arayivura.

Inka y'ibihogo ariko ifite utubara tw'umweru dukeya, inyuma yayo hari umuntu urimo arayikoraho, bigaragara ko ari kuyivura.

Iyi ni inyamaswa ikaba ari zimwe mu ziba muri parike y'Igihugu y'u Rwanda Akagera, irimo iranywa amazi ari mu Kagera.

Muri parike habamo inyamaswa zitandukanye, iyi ngiyi tubona ni agasumbashyamba kaba muri Pariki y'Akagera.

Mu mashyamba habamo inyamaswa z'inkazi cyane cyane iziba muri parike, izi ni inzovu ubona zirimo ziranywa amazi zavuye aho ziba.

Hano hari amazi menshi, arimo inyamaswa zibiguruka, twita ibishuhe, birimo biroga mu mazi.

Muri parike dusangamo inyamaswa zitandukanye nk'urugero zitubona zitwa imparage zifite amabara y'umukara n'umweru wanduye.